Umugore wambaye amarinete, wicaye hagati y'abandi bantu benshi, basa nkaho bateze amatwi uri kubabwira.

Umuyobozi uhagaze wambaye ikanzu ndende y'ibara ry'umukara, ufite mikoro na agenda mu ntoki, ari kubwira abaturage ibibagenewe yegeranye n'undi muntuma ukennyeye umukenyero urimo umwe n'umutuku, n'agapira k'icyatsi.

Iki ni icyumba k'inama zigiye zitandukanye hakaba harimo ingeri nyinshi abagore, abagabo urubyiruko, imbere hakaba hari umugabo uhagaze urigutanga disikuru n'abafite uducupa tw'amazi bafite amakaramu bari kwandika mu makaye.

Icyumba cy'inama cyahuriyemo abaturage b'ingeri zose. Bose bari kureba imbere bareba urikubaganiriza. Bose bakaba bicaye, ari abamama, ari n'abapapa.

Umuyobozi uri gutanga disikuru imbere y'abaturage abagezaho ibisubizo by'ibyo atekereza.

Icyumba cy'inama y'ubuyobozi, bakaba bicaye hano imbere ye hari umugabo wambaye ishati ya shokora n'umweru, yambaye rinete, imbere ye ku meza hari amazi mugacupa na Jus y'inyange, hirya hari umuntu uri gufotora bakaba bari kureba uri kubabwira.

Iyi ni inama y'abaturage b'ingeri zitandukanye bose hakaba harimo abitwikirije imitaka, imbere yabo hari abari ku murongo basa naho hari bakuru babo abapapa batatu n'abamama batanu.

Hano turabona umupapa ufite mikoro, yambaye ishati ikomeye y'ikigina, akaba ari imbere y'ameza ateguyeho udutambaro, n'amazi mu gacupa, akaba ari umupasiteri uri kwigisha ijambo ry'imana abakirisitu benshi.

Hano hari ababyeyi babiri, hari ufite mikoro wambaye ikanzu ndende irimo umukara n'umutuku, hakaba hari n'undi wambaye umukenyero n'agapira k'ubururu, akaba ari umuyobozi uri guha amabwiriza y'uko bigomba kugenda bitangiriye mu Isibo.

Aha akaba tubona umugabo wambaye umupira w'umukara, ufite ibirango bya FPR, hakaba ari gutanga amabwiriza imbere y'inteko rusange y'umuryango wa FPR.

Abaturage bicaye n'abandi bahagaze b'ingeri zitandukanye, abasaza, abakecuru, abapapa, urubyiruko rwitabiriye inama y'ubuyobozi, baje kandi bicaye mu myanya y'amasibo yabo, bakaba bafite n'utwapa tw'amasibo baturukamo.

Iri ni itsinda ry'ababyinnyi bakenyeye hejuru bambaye udupira tw'umweru, hasi bakenyeye imikeiro y'imikara, hirya hari abandi bahagaze imbere y'ingoma bari kuzivuza umwe akaba afite mikoro ari kuririmba.

Aha turahabona igishushanyo kiriho abagabo babiri, umwe ufite umuheto n'imyambi arikwitoza kurasa undi nyuma akenyeye imyenda y'ikanga.

Aha turahabona abantu benshi bicaye, harimo abagore ndetse n'abagabo bambaye imyenda hejuru imipira y'imyeru iriho idarapo ry'Igihugu, basa nk'aho ari mu ihuriro bahuriwemo nk'abayobozi.

Aha turahabona, ababyinnyi, babiri b'abamama, bakinyeye imyenda y'imyeru, bafite utugozi biyambitse mu gahanga, bakaba bari kubyinira ibirori.

Igicuma giteretse ku meza y'urubahu.

Ibikoresho bya gakondo, inkoko iteretseho igicuma kirimo umuheha n'indi mihe ibiri ku ruhande n'igicuma gikase kiteyeho utuntu tw'umukara badahisha amazi, bikaba birambitse ku musambi.

Aha, akaba ari abaturage b'ingeri zitandukanye bafite udupa twamazi mu ntoki, ndetse bakaba banahanze amaso nk'uri imbere uri kubaganiriza.

Itorero ry'ababyinnyi b'intore, bakenyeye, imikenyero ya karokaro irimo umukara n'umweru n'amashati y'umweru. Afite ingoma, imbere ari gukoma.

Urugomero rw'amashanyarazi, ruriho ibyuma byinshi bishinze n'akazu gatoya gasakaye, iruhande rwacyo hari umuhanda, ku mpera zawo hagiye hariho borudire, zisize amabara y'umwe n'umukara.

Aha turahabona abagabo benshi bambaye amajire y'ikigo cya REG n'ingofero z'umweru n'umuhondo, bakaba basa n'aho bari kumurika ibikorwa bakoze, babimurikiye ababahaye akazi kugira ngo babyubake.

Aha ni ku isambu nini yubatseho ibyuma, hejuru harambuyeho imirasire myinshi, hakurya yayo hakaba hari inzu yubatswe isakaje amabati atukura.

Abakozi babugenewe bamanika imirasire ahabugenewe.

Urugomero rw'amashanyarazi, hari inzu iri mu ibara ry'umuhondo hejuru imeneye.

Aha turahabona ko ariko ku rugomero rw'amashanyarazi, ruri ku kiyaga cya Kivu, hakaba hateraniye abagabo n'abagore benshi bambaye amajire y'icyatsi cyerurutse n'amakasike y'umweru.

Aha turahabona ikiraro kinini hejuru hahagazeho imodoka ebyiri ziri mu ibara ry'umuhondo zateranye ibyinyuma aho imwe iri guha indi ibiyirimo kuko yagize ikibazo.

Aha turahabona umukozi ukora mu mashanyarazi uri hejuru ku ipoto aho yagiye kureba ikibazo cyaba kiri mu nsinga z'umuriro.

Ibyuma by’amapiloni bicaho insinga z’umuriro, aho bagenda zoherezwa bitewe n'icyo zigiye gukora no gukoreshwa.

Urugomero rw'amashanyarazi rutanga ingufu z'amashanyarazi hirya no huno, inyuma yarwo hejuru ku misozi hateyeho ibiti bakaba banahinga, ku muhanda wegereye harimo haratambukamo abantu.

Iki ni igisambu kinini cyane giteyeho ibiti byinshi n'ibihuru, hagati hakaba hacamo umuyoboro w'amapoto y'amashanyarazi insinga zishishuye.

Umukozi w'ikigo gishinzwe amashanyarazi REG wuriye ku rwego, uri hejuru ku ipoto ry'amashanyarazi, ari kugira icyo akoraho ku nsinga kugira ngo ahe umuriro umuturage.

Aha turahabona ipoto rinini, risa nk'aho rihuriyeho insinga nyinshi z'umuriro unyura mu kirere. Tuziko aba ari nka taransifo ihuriyeho umuriro ujya hirya no hino.

Mu gacuriro k'abasudira inzugi, amadirishya n'ibindi byose bikorwa mu byuma bisudirirwa, hari abagabo babiri, umwe wicaye ku kibogisi, undi uhagaze uri gutambuka.

Hano hari agakoresho kaba gakoreshwa ku muriro kitwa mubazi, kabara umuriro urimo uri ukoresha, uko ugenda ugabanuka niko ugenda bibona.

Abakozi babifitiye ububasha bari hejuru y'inzu, babiri bambaye imipira y'imihondo, bari gutera umwirasire ku mabati.

Ikigo gishinzwe amashanyarazi, hanze hari inzu y'ibyuma ya kontineri, isakajweho imirasire inzu ziri hirya zisize irangi ry'ubururu.

Ibikorwa remezo, aho inzira ica hejuru y'amazi yubatse neza bishimishije, n'ibyuma biri kunzira ku kayira byatewe amarangi y'ubururu n'umuhondo n'umukara. Hakurya hakaba hari ibiti by'iminyinya.

Aha turahabona isenywa ry'ikiraro ubona ko cyasenywe n'amazi yabaye menshi bikaba byitwa inkangu yateye ahantu, hakurya hari ikiraro kigaragara ko cyasenyutse n'abandi bari ku mpande bari kureba.

Akayira kubakishijwe ibyuma kanyura hejuru y'amazi.

Hano turabona ari posite de sante, aho abaryi baza bagana kugirango bivuze. Imbere y'inzu hari kandagira ukarabe, indobo y'umutuku nahino hakaba hari jaride ieyemo indabo na pasiparume, zikaba zisize amarangi y' bururu.

Umugezi utemba uriho ikiraro cyambuka hakurya yaho hari abagabo babiri no hino ku mugezi hari abagabo babiri bambaye ingofero z'umuhondo, umwe wambaye ishati y'umweru.

Aha turahabona ibyapa biranga amerekezo, hakaba harimo umumama ufite wambaye agatambaro ka karokaro k'amabara y'umweru n'umukara n'umutuku, akaba afite ibaga ivarisi mu ntoki yayindi bacunga.

Aha turahabona ikigo cy'amashuri ya Kaminuza, akaba hakurya hari guturukamo imodoka nini itwara abanyeshuri.

Umuhanda wa kaburimbo, uriho amatara yo ku muhanda wubatse neza, hirya yawo hakaba hari amazu ageretse, akorerwamo ubucuruzi butandukanye. Ku muhanda harimo imodoka ntoya n'inini, hari n'abagabo bahagaze babiri mu muhanda.

Aha turahabona turabona ibinyabiziga, imodoka ndende za rukururana zisa n'iziba zizanye ibintu mu gihugu, aho zihurira zije gupakira gupakurura ibyo zazanye.

Umuhanda munini w'igitaka w'ibinyabiziga. Kuruhande hari akayira k'abanyamaguru, hakurya hari umusozi utuweho abaturage benshi hari nasanentere hafi yaho.

Aho turahabona umukuru w'Igihugu wambaye amarinete. Akaba akikijwe n'abagabo bari inyuma ye bambaye amakote ndetse n'udupfukamunwa. Iruhande hakaba hari umusirikare wambaye umwenda mpuzankano y'akazi. Bigaragara ko batashye nk'ikigo k'ivuriro.

Ikiraro cyambukiranya, uduce, kikaba kinyurwaho n'imodoka nini za rukorana, hakurya mu mashyamba, mu gisambu.

Aha turahabona inzu nini kandi igeretse, imbere hari icyapa cyanditseho "Akarere ka Nyagatare, Irembo ry'Amahoro", rivuga ko batanze ari icyapa gitanga ikaze mu biro by'Akarere ndetse no mu Karere hose.

Ikiraro cyubatswe gica hejuru y'amazi, kirimo kunyurwaho n'abaturage b'ingeri zitandukanye, abagabo n'abagore.

Ikiraro cyiza gikomeye kiri hejuru y'umugezi utemba, hakaba hariho ibyuma bitambitseho, hagira ugwamo. Hariho abantu bari gutambuka bajyenda.

Aha turahabona, agahanda kubakiye, gasa n'aho gakolotiriwe n'ikiraro, kiri hejuru y'amazi.

Ikigo cy'amashuri cyubatse munsi y'umuhanda wa kaburimbo, uriho amatara awumurikira, hakaba hari n'amapoto y'insinga z'umuriro.

Iki kibuga giteraniwemo n'abaturage benshi inyuma yabo hakaba hubatse itente, imbere kuri siteje hahagaze umugabo wambaye ishati y'umukara n'ipantaro y'ikoboyi, hasi hakaba harambitse mikorofone.

Ikirari kirimo abagabo bambaye ikote hakaba ku ruhande hari n'umuzungu, bari gukata akagozi ka dekorasiyo kaziritsemo hagati.

Aha turabona inzu ngari, umeze nka sale ikorerwamo inama cyangwa ubukwe, hakaba harimo abantu benshi bicaye ndetse n'abanyeshuri bicaye, bateze amatwi barimo kubaha...

Aha turi kubabona icyumba k'inama cyahuriyemo abayobozi batandukanye, bambaye bamwe ni abakozi bambaye imyenda mpuzankano y'aka kabo, abandi bambaye amakoti, harimo n'abakameramani bari kureba kuri tere.

Aha turahabona ikigo kinini cyahuriyemo abaturage b'ingeri zose, urubyiruko, abagore n'abagabo, ndetse n'abashinzwe umutekano, na polisi n'abatabazi b'ibanze ba Croixrouge, umugabo wambaye jire iri mu ibara ry'icyatsi.

Hano hari abagabo batanu, hakaba harimo uwambaye imyenda mu nzangano y'akazi ka gipolisi, bakaba bari mu murima w'urutoki urenzenzemo insina, bakabitegereza ikintu runaka.

Aha turahabona abagabo basa n'aho baje kwibuka bari kumwe n'ishami ry'umutekano wa gisirikare na Polisi, ku ruhande rwabo hakaba hari n'abasoruviye barinda gereza.

Sitade isakaye ikikijwe n'ibitambaro by'amadarapo y'igihugu, harimo abaturage benshi n'urubyiruko, akaba hari na bafure hagati yabo hasi harimo abantu bahagaze ku nkuta ku nkingi zifashe iyi sitade.

Aha turahabona umuhada kaburimbo, harimo imodoka iri gutambuka, inyuma hari moto iriguturukayo, imodoka ikaba ari iy'ikigo, hirya mu muhanda wa maguru harimo umunyamaguru uri gutambuka.

Hano mu muhanda wa kaburimbo turahabonamo, umugabo uri kuri moto wambaye ishati y'amaboko maremare. Akaba yambaye kasike, afite agakapu yambaye mu gatuza. Iruhande rwe hakaba hari umugore wambaye ikanzu ndende, akaba ari kumubaza iyo ari kujya.

Jaride iri ku muhanda mu masaha ya nijoro, icyapa kiranga amerekeza i Nyagatare ku ku murenge kuri metero igihumbi magana tatu mirongo itanu.

Icyapa cyerekana ko imbere hari umuhanda winjiran n'undi, hakaba hari urutsinga rw'umuriro runyura hejuru, hino hakaba hari ikibanza kidahinnze kirimo ibyatsi, n'agaferege kadakoze neza k'amazi.

Aha turahabona imodoka y'ivatiri iparitse muri parikingi imbere y'inzu, basa naho hari serivisi baje gusaba. Iyo modoka ifite pulake LAC308F.

Aha turabona ko ari mu kibuga kirimo abaturage benshi: urubyiruko, abamama, abapapa, abamama bafite imitaka, hakurya heri amatente mo hagati mu kibuga, hirya y'aho hari inzu y'umuturage, hano imbere hari abapapa bari gufata ifoto bambaye amarinete kandi bose bambaye ikote.

Hano turahabona inama y'abaturage aho yitabiriwe n'ubuyobozi butandukanye harimo n'ubw'umutekano na polisi y'igihugu, hakaba hari n'itentente rikorotirijwe n'udutambaro tw'amabara y'idarapo ry'igihugu.

Aha turahabona amatente ashinze imbere yaho hakurikiyeho udutambaro tw'amabara ari mu idarapo ry'u Rwanda, ubururu, icyatsi, umuhondo, akaba ari urugerero bari kumwe n'abayobozi, bakaba bari kubigisha uko bakwitwara mu buzima.

Aha turahabona umubyeyi wambaye ishati y'igitenge n'ipantaro, ndetse na bote, akaba yiteza akantu mu mutwe, akaba ari gukora imyanda mu byatsi ahasa n'ahegereye agahanda.

Abasore babiri bambaye imyenda y'impuzankano y'akazi ka gisirikare, hakurya hari urubyiruko rukubiyemo abagore, abagabo ruri mu murima guhinga, bakaba hakurya hari insina nyinshi.

Aha turahabona abaturage benshi, bamwe bafite amasuka abandi bahagaze inyuma,k basa n'aho baje mu gikorwa cy'umuganda wo gukora mu kayira, bakaba bari gukiza no guca ibyobo bicamo amazi.

Inama y'abaturage yateraniye ahantu bakaba bicaye hasi mu byatsi, hari umugabo ufite mikoro ahagaze wambaye ikote n'ishati ry'umutuku akaba ari gutanga igitekerezo, inyuma ye hari undi wambaye agapira k'umutuku, ahagana hirya hari insina n'urutoki runini.

Urubyiruko ruri mu murima ruri guhinga, ruri kumwe n'uwambaye impuzankano y'akazi ka gisirikare, bakaba bafite amasuka bari guhinga.

Aha turahabona abagabo batatu, babiri baricaye, undi umwe wambaye ishati y'amaboko maremare n'isaha ku kuboko n'ingofero y'umukara, akaba afite mikoro, asa naho ari igitekerezo ari guha abaturage, bamuteza amatwi.

Abaturage baje gukora umuganda, bahagaze mu muhanda, hirya hakaba hari amazu y'abaturage, hagati yabo harimo uwambaye imyenda mpuzankano y'akazi ka gisirikare, uteruye ibuye.

Aha hari abaturage bicaye basa n'abari mu nama, hakaba hari umugabo uhagaze wambaye umupira utukura n'ingofero mu ntoki, asa nk'aho ari gutanga igitekerezo.

Aha turahabona umukinnyi w'umupira w'amaguru, uri mu kibuga cy'umupira, akaba ari gukina, yambaye imyenda y'amabara y'umweru, harimo n'akabara gato k'icyatsi n'amasogisi maremare y'umukara.

Umukinnyi wambaye imyenda y'ubururu, hejuru harimo uturangago tw'icyatsi, imbere yambariyemo umupira w'amaboko maremare y'umweru n'umutuku, akaba ari kwishimira intsinzi kuko atsinze.

Mu kibuga kiri inyuma ya sitade harimo urubyiruko ruri muri siporo no mu kibuga hirya gitema ibyatsi kirimo n'amazamu harimo abantu bari muri siporo.

Sitade Mpuzamahanga ya Huye, aho ikipe iri gusohoka mu rwambariro iza mu kibuga, yambaye imyenda hejuru imipira ni orange n'udukabutura tw'umukara turimo na oranje.

Aha tubona ni mu kibuga cy'umupira w'amaguru bikaba iruha rwacyo hakorotiriye ibyuma, mu kibuga hakaba harimo umugabo w'umukinnyi w'umupira w'amaguru, asa n'aho ari gukurikira umupira ari gukina.

Abagabo bicaye muri stade bari kureba umupira.

Aha ni mu kibuga kinini kigali kirimwo urubyiruko ruri muri siporo.

Aha turahabona ikibuga cy'umupira w'amaguru. Tukaba tubona abasore babiri bahagaze bambaye imyenda isa irimo ubururu. Inyuma hakaba handikishijwe amagambo na nimero byanditse mu ibara ry'umweru. Hirya hari umuntu uryamye mu byatsi.

Iki ni ikibuga cy'umupira w'amaguru, kirimo abagabo bari gukina b'amakipe abiri atandukanye, hari abambaye umuhondo, umupira w'umuhondo n'ikabutura y'umuhondo n'abambaye imipira y'ubururu n'amakabutura y'ubururu yijimye.

Aha turahabona ikibuga cy'umupira w'amaguru, hakaba hahagazemo umugabo wambaye imyenda yo gukinana, iri mu ibara ry'umuhondo n'amasogisi y'umuhondo, n'inkweto za orange. Hirya hari agati kariho akadarapo k'umuhondo n'umutuku, akaba arangamije amaso Aho umupira...

Aha ni sitade irimo ikibuga cy'umupira, kikaba kirimo abakinnyi babiri amakipe abiri atandukanye imwe yambaye ubururu bwijimye n'indi yambaye umuhodo ku ruhande rwabo hariho umusifuzi ifite agatambaro ka karokaro karimo umutuku n'umuhondo.

Iki ni kibuga gikinirwamo umupira, hakaba hahagazemo umusore wambaye imyenda ya siporo, bigaragara ko ari umukino.

Aha turabona abapapa na abamama bicaye mu ntebe, bafite icyo barangamiye bari kureba n'umupira cyangwa n'ibindi.

Hagati muri stade, mu kibuga hicaye abantu bari muri siporo, bafite imbere yabo hari umugabo wambaye umupira w'ubururu ufite mikoro uri kubaganiriza.

Aha turahabona abaturage bicaye, benshi basa n'abari kureba mu kibuga, harimo umupira bari kureba hari umukoranabushake uhagaze hejuru yabo wambaye ijire, hari n'abambaye impuzankano ya gisirikare na gipolisi bicaye.

Mu kibuga cy'itaka ahahuriye amakipe y'abakobwa abiri atandukanye, hari iyambaye imyenda y'ubururu n'umweru, hakaba iyambaye imyenda y'umukara n'umweru ariyo y'umurenge wa Tabagwe. Umukobwa akaba yiyamiriye ko yatsinze.

Ikipe iri mu kibuga basa naho bari gukina, hakaba hari umuzamu wabo wambaye umupira wa oranje, nyuma hari undi mugabo wambaye umupira w'umweru w'iyindi kipe.

Abana batatu bari gukina balo, bakaba bari gukinira mu kibuga k'itaka hirya hari ibyatsi na korotire y'amatafari ahiye.

Aha turahabona umuhanda wa kaburimbo, ku mbibi zawo ni aho abanyamaguru bagendera, hateyeze utuntu dusize amabara y'umukara n'umweru, hagati hanyuze n'umurongo w'umweru.

Hano ni ku muhanda wa kaburimbo, ku mpera yawo, tukaba tuhabona, amazu kandi ku muhanda hakaba ari gutambuka umwana w'umukobwa, wambaye agapira k'umweru ipantaro isa n'aho ajya kuba umukara, utijimye.

Aha turahabona akayira gafungakanyo kunyura mu mirirma y'abaturage, kagenda kagana ku isatera hakurya, mu ngo z'abaturage, iyi imirimo ikaba yifashishwa mu guhinga kugira ngo abaturage biteze imbere bityo babone ibyo barya, banasagure amasoko.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kugendwamo n'umugabo wambaye ishati ya move y'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara, ufite igikapu mu mugongo.

Umuhanda w'igitaka, ku kumpande hagiye hariho imirima idahinnze.

Aha turahabona umuhanda wa kaburimbo usa naho utangiye kwangirika, harimo umumotari uri kugenda yambaye kasike hakurya ye hakaba hari ibisambu n'akayira k'abanyamaguru.

Aha turahabona ko ari ku kibuga kigishirizwaho ibinyabiziga, aho mu muhanda tubonamo moto ebyiri n'igare gusa ntago biri kujya mu kerekezo kimwe, igare riri kujya iburyo moto ziri kugana ibumoso.

Umuhanda wa kaburimbo ujya mu mujyi, kumpande hari amatara amuririka umuhanda, n'amapato y'insinga zamashanyarazi. Hakaba umuhanda ukikijwe n'ibiti bikurura imvura.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'umunyegare wambaye agasengeri k'umuhondo, hakurya y'umuhanda haparitse imodoka hari umutaka wa MTN wicawemo n'abagabo babiri, hakaba hari n'amazu hirya y'ubucuruzi.

Muri kaburimbo umukarani w'umunyamwuga wambaye itaburiya y'ubururu uteruye udukarito tubiri twa fanta ku rutugu, hakurya hari amazu y'ubucuruzi na moto iparitse ku muhanda.